Hari abana bambaye imyenda isa, birasa nk'aho ari ku kigo cy'amashuri, barimo barakinira ku giti batemye, iruhande hari indabo ziteye, iz'umuhondo, iz'icyatsi, hari n'ibiti by'inturusu.

Birasa naho ari ku kigo cy'amashuri hari abayobozi runaka baje kureba imyigire y'abana hamwe n'imibereho myiza yabo, hari abarimu bari hagati y'abana bisa naho bari kubashyira ku murongo.

Harasa n'ahari gutangirwa ibiribwa, abagore babiri bafashe ku mufuka w'umuceri hejuru hari umugabo wambaye ishati y'ubururu urimo urawubahereza, hari imifuka myinshi irimo ibiribwa hakurya hari ibiti byinshi hari n'inzu z'abaturage.

Birasa naho ari ku mugezi rusange, hari amajerekani menshi, hari abaturage bahagaze ku ruhande bisa naho baje kuvoma, imbere harimo umuntu bisa naho ari we wakira amafaranga y'abavoma.

Biragaragara nk'ahabereye inama hari abantu benshi bicaye buri muntu wicaye imbere ye hari mikokoro, hari icupa ry'amazi; abo bantu bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru.

Birasa n'aho habereye igikorwa runaka, hari abantu benshi, hirya bamanitse shitingi, hari abantu bafite mikoro, birasa naho barimo barabakinira agateatere, kuru ruhande hari icyapa kirimo ibara ritukura n'umuhondo.

Birasa naho ari ahakorewe urugendo shuri hari abantu benshi bambaye imipira isa hagati yabo hariba mama babiri bahagaze bisa naho ariho bari bayoboye urwo rugendo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hari n'inzu nini igeretse.

Biragaragara ko ari kwa muganga hari ababyeyi benshi bicaye bateruye abana birasa n'aho baje kubakingiza. Ku ruhande hari umugabo uhagaze usa n'aho hari ibyo arimo arababwira, hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Biragaragara ko habereye inama, hari abantu benshi bicaye. Buri umwe imbere ye hateretse icupa ry'amazi, bamwe bagiye bafite ikayi n'ikaramu bisa naho barimo barandika ibitekerezo bitangirwa muri iyo nama. Imbere yabo hari televiziyo nini.

Biragaragara ko ari ku mugezi rusange, ni wa mugezi bapompa, inyuma hari abagore babiri barimo barapompa kugira ngo amazi aze, ku ruhande hari n'undi mugore urimo uravomera mu indobo, hakurya hateye igiti kirekire kinini.

Hasa naho habereye inama runaka, hari abantu benshi bicaye, buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, bafite impapuro bisa naho bari kwandika, imbere hari abagabo babiri buri umwe afite mikoro iruhande rwe hari n'amashini, birasa naho aribo bayoboye iyo nama.

Biragaragara nk'ahabereye amahugurwa runaka cyangwa se akaba ari ikigo cy'amashuri cyagiye mu rugendo shuri, abana bamwe bambaye imipira isa ku meza aho bicaye hateretse amacupa y'amazi, hari abafite amakayi n'ibitabo bari kwandika.

Birasa nkaho ari ku kigo nderabuzima, hari abaganga barimo barandika mu gitabo, bafite amafishi mu ntoki, ku ruhande rwabo hari undi mugore uhicaye, nawe imbere yiwe hari igitabo gitukura, hari n'ibikarito bibikwamo amafishi.

Umusaza wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara, yicaye ku jerekani, iruhande rwe hari robine birasa n'aho ari umugezi rusange. Inyuma ye hari imiyenzi, hari n'inyubako nyinshi z'abaturage.

Birasa naho ari abaganga benshi buri umwe yambaye badi mu ijosi, barimo barafata ifoto y'urwibutso, ku ruhande hari icyapa kinini cy'umweru, inyuma yabo hari n'inyubako.

Abaganga bigaragara ko bagiye kureba abaturage kugira ngo babapime uburwayi runaka, ku ruhande hari umukobwa wambaye ikote ry'umukara nawe wambaye baje mu ijosi, bisa n'aho ari kubafasha muri icyo gikorwa.

Birasa naho habereye inama runaka, hari amadarapo abiri imwe iburyo, indi ibumoso, inyuma hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambo y'ubururu, hari abantu benshi birasa naho barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Abagabo babiri bicaye bisa nkaho bari mu nama, umwe afite mikoro mu ntoki birasa naho hari icyo ari kuvuga, ku meza bicaye hateretse amacupa y'amazi n'ibirahure, impapuro n'ibitabo, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'umweru hari n'idaraporo rifite amabara y'ubururu, icyatsi n'umutuku.

Umukobwa wambaye agapira karimo ibara ritukura, arimo aravomera amazi mu ijerekani, ijerekani iteretse mu ibasi, ku ruhande hari amavase bateramo indabo, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi, hari n'amabasi ku ruhande.

Ni ku kigo cy'amashuri, hari umunyeshuri urimo urakaraba intoki, ku ruhande rwe hari abandi banyeshuri barimo barakina ari munsi yigiti kinini, ku ruhande hari ubusitani hari n'inyubako bisa naho ari izo bigiramo.

Abagore babiri bunamye, bisa nkaho barimo barasoma ibyanditse ku cyapa, bafite n'ibijerekani bibiri binini. Inyuma yabo hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ku ruhande hari ibiti birebire, binini.

Biragaragara nko kwa muganga hari abaturage benshi bicaye bamwe bipfutse ku munwa bisa n'aho barwaye indwara runaka, hari inyubako nini isa n'aho arimwe ikoreramo ibitaro ku ruhande hari na kandagira ukarabe.

Biragaragara ko ari abahinzi bafite imifuka myinshi ikusanyirijwemo umusaruro wabo; birasa naho bari ku shyira hamwe kugira ngo uze gutwarwa gutunganyirizwa m'uruganda.

Biragaragarako ari mu nama hari abantu benshi bicaye buri muntu uri mu nama yambaye bagi mu ijosi, ku meza yaho bicaye hateretse amacupa y'amazi bahanze amaso imbere bisa naho hari ibyo barimo barakurikira.

Birasa n'aho habereye igikorwa cyo kwiyamamaza runaka, hari abantu benshi bafite impapuro z'umweru mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, hari n'inzu nini isa nk'aho ari urusengero yubakishije amatafari ahiye.

Ahabereye inama hari abantu benshi bicaye, buri umwe afite ikayi n'ikaramu ari kwandika ibivugirwa muri iyo nama, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi, haruguru hari umugabo wicaye ahitaruye, bisa n'aho ari we uyoboye iyo nama.

Hari inzu isi bigaragara nkaho ari ku kagari, hari idarapo, hari imodoka ebyiri zaparitse imwe n'iy'amberanse, hari urwego rwa daso, hari n'amatente, hari abantu benshi bisa nkaho bahuruye bisa naho habere ikibazo runaka.

Umukobwa afite ikaramu mu ntoki, afite ikayi ku bibero. Afashe ku rutugu umumama witwikiriye agatambaro gatukura birasa n'aho arimo aramuhumuriza, inyuma yabo hari inkwi, hari n'igishitingi kinini.

Abaturage bicaye, iruhande rwabo hari umuntu wambaye baji y'umuhondo mu ijosi, afite ikaye n'ikaramu mu ntoki, birasa n'aho arimo arabarura abaturage, hepfo y'aho bicaye hari urutoki, hateyemo n'ibiti.

Birasa n'aho ari mu nama hari abantu benshi bicaye imbere hari umugore uhagaze birasa n'aho ari icyo ari kubabwira, hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kiri imbere yabo, hari na televiziyo, hari n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga.

Birasa naho habereye inama hari abantu bihicaye buri muntu wicaye iruhande rwe hari icupa ry'amazi, hari mikorobe hari umugore wambaye ikote ry'ubururu bisa naho hari icyo arimo arababwira, inyuma yabo hari ibyapa byinshi biri mu ibara ry'umweru.

Biragaragara nkaho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi, imbere yabo hari ameza birasa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso. Kuri ayo meza hariho impapuro n'ibindi bikoresho bisa naho ari byo bari bari kwifashisha.

Biragaragara nk'ahabereye ubukangurambaga runaka, hari abantu benshi bafite igipapuro mu ntoki birasa naho barimo barafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo haparitse imodoka iri mu ibabura ry'umweru hari n'amatenti inyuma y'iyo modoka.

Bisa nkaho ari ku kigo cy'amashuri, hari abantu benshi bambaye imipiraa isa, hagati yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, birasa naho ari umuyobozi w'icyo kigo, bahagaze nk'abafata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru ari guteka yishimye imbere ye hari igikombe cy'icyatsi n'umufuniko, umukecuru ufite imvi mu mutwe ukenyeye n'igitenge.

Umugore afite imisatsi miremire, yambaye rinete, yambaye baji mu ijosi, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, yambaye ibikomo ku kuboko n'impeta ku rutoki, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Birasa n'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye, buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi hari n'ameza. Hari ameza bagiye bateragaho amasakoshi, imbere yabo hari umumama uhagaze, birasa naho hari icyo arimo arababwira.

Ni kwa muganga, hari umuganga ufite akantu gasa n'itoroshi, arimo aramurika mu kanwa k'umwana kugira abashe kumupima indwara, inyuma ye hari akabati gateretseho impapuro, imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Hari abantu benshi, hari abantu bambaye amajire barimo baragenda babahereza icyo kunywa, birasa naho habereye inama, hirya hateye ibiti birebire, hari n'inyubako ku ruhande bisa naho ari amashuri.

Birasa n'aho ari umukecuru ufite ikibazo cy'imitsi n'izindi zabukuru, ku ruhande hari umuntu bisa naho ari umuganga witwa ku bantu bakuru, arimo aramukoresha agasiporo kugira ngo imitsi imere neza.

Umusaza birasa naho arwaye imitsi ku ruhande rwe hari umuganga uhahagaze, ari kugendera mu cyuma gifasha imitsi ye kurambuka no kumera neza, ku ruhande hari igikuta kiriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Umubyeyi w'icaranye n'abana be n'abuzukuru bameze nk'abari kwifotoza barishimye, harimo abana benshi abahungu, abakobwa barasa neza barishimye.

Ni umuganga iruhande rwe hicaye umusaza afite ikayi birasa n'aho hari ibyo ari kumusobanurira, ku meza y'aho bicaye hariho ikayi n'ikaramu, umuganga yambaye agapimo bapimisha umutima n'amaraso ko bimeze neza mu ijosi.

Umukobwa ufite agapapuro mu ntoki n'ikaramu, ku meza hari ibinini, ku ruhande hari akandi kantu k'umwiru kahateretse, hari ikaye nini, hari ikirahure cy'amazi, iruhande rwe hari umusaza uhicaye.

Birasa n'aho ari koperative y'abantu bishyize hamwe bicara bagatekereza igikorwa bakora kibateza imbere, birasa n'aho hano barimo baraboha: uduseke, ibitebo n'ibindi bintu bigiye bikorwa mu byatsi.

Umurima w'icyayi, hari abaturage benshi barimo barasoroma icyayi, bamwe bafite ibitebo, abandi barimo barafurubira mu bitenge biziritseho, hakurya hari n'urutoki.

Umusaza wambaye ishati y'icyatsi afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, iruhande rwe hari umukobwa uhicaye wambaye umupira w'ubururu, afite agakombe k'umuhondo mu ntoki karimo ibinini birasa naho agiye guha ikinini umusaza.

Abakobwa babiri bari kugenda mu muhanda, bisa naho bari muri siporo, hakurya y'umuhanda hateye indabo z'umuhondo, hateye jaride nziza, hari ibiti birebire binini, hari n'ishyamba hakurya y'umuhanda.

Ahabereye inama y'abaturage cyane cyane yitabiriyemo igitsina gore, hari abicaye hasi ku mukeka, hari n'intebe z'umweru zo kwicaraho, hakurya y'aho bicaye hari urutoki ruteyemo n'ibindi bihingwa.

Abamama batatu, umwe yambaye umupira w'umuhondo, babiri bambaye imipira y'umweru, barimo barifotoza muri terefone. Inyuma yabo hari igiti cy'ururabo kihateye, hari imodoka ebyiri zihaparitse z'umweru, harimo n'amatara yo ku muhanda.

Ni mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, inyanya, imyembe, amaronji n'ibindi byinshi, hari abagore bicaye bisa n'aho bakoze akanama, hagati hari umugore birasa naho hari aricyo ababwira.

Umudamu ufite ikirahure mu ntoki n'ibinini, birasa nkaho agiye kunywesha amazi ari mu kirahure ibyo binini, inyuma yiwe hari akarobine, birasa naho ahagaze mu gikoni, ku meza hariho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gikoni.

Birasa naho ari kwa muganga, hari umuganga rurimo urafasha umurwayi kugendera mu tuwuma two kwa muganga, birasa naho uwo murwayi afite ikibazo cy'amaguru, arimo aramugendesha kugira ngo abashe kumera neza.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu, afite ibinini mu ntoki, ku ruhande hari umukecuru wambaye umupira utukura, afite urupapuro mu ntoki birasa naho aribyo ari kwereka uwo musaza, ku meza hatetse ikirahure cy'amazi, hamwe n'uducupa tubiri tw'imiti.

Biragaragara ko habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi bicaye, buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, imbere hari abagore bahicaye n'abagabo bisa n'aho bayoboye iyo nama, ku ruhande hari umugore ufite mikoro bisa n'aho hari icyo ari kubabwira.

Urutonde rw'amafoto yabakandida bashaka kwiyamamariza gutsindira isoko ryo kugemura ibiryo by'abanyeshuri ku ishuri, harimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko.

Bisa n'aho habereye igikorwa runaka cy'iyobokamana, hari abamansera batatu, hagati hari umugabo uhagaze yambaye ikositimu n'isaha ku kuboko birasa n'aho barimo baramwakira, inyuma yabo hari igikuta kirimo ibara ry'ubururu.

Abaganga bamanutse hepfo mu baturage kugira ngo babapime indwara zigiye zitandukanye iz'ubuhumekero, mu kanwa n'izindi ndwara nyinshi. Ku ruhande hari abaturage benshi bisa naho babyitabiriye.

Hari abantu benshi birasa n'aho bari mu bukangurambaga runaka, bafite icyapa kirimo ibara ry'umweru cyanditseho ngo " Rubyiruko ni mwe hazaza h'uru rwanda, irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.

Aba ni abaganga, bari mu nzu yabugenewe, bambaye amakanzu y'umweru ndetse n'amashashi ndetse n'udupfukamunwa, n'amarinete bose barambaye ibintu by'imyeru.

Biragaragara ko ari ahabereye inama hari abantu benshi, inyuma aho bicaye hari igikuta gisize irangi ritukura n'iry'umuhondo, hari umuryango w'ibara ry'umweru bahanze amaso imbere, birasa naho hari uwo bateze amatwi.

Haragaragara nk'ahabereye inama. Hari abantu benshi, hari imashini iteretse ku meza n'agapfukamunwa, n'ikayi. Inyuma mu nyubako barimo, yubakishije amatafari ahiye.

Birasa nkaho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi, imbere hari abandi bantu bahicaye bisa naho bayoboye inama, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, n'ikindi kiri mu ibara ritukura, hari umugore munini ufite mikoro, birasa naho hari icyo ari kubabwira.

Inyubako igaragara nk'aho ari iy'ubucuruzi, hejuru hariyo icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditse ko hacururizwa imiti, imbere harimo abantu babiri birasa n'aho barimo barahabwa serivisi.

Biragaragara nko kwa muganga, hari inyubako nini y'amatafari ahiye hejuru handitseho ngo materiniti. Ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, hari ibigega inyuma yiwe, hari n'undi mugore utambuka.

Inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru, hari amatara yo ku muhanda, hari abantu benshi bambaye imyenda isa, bisa naho ari ku kigo cy'amashuri, imbere haparitse imodoka y'umukara, hari n'indi modoka y'umweru iparitse hanze.

Ni kwa muganga hari ibitanda bibiri by'abarwayi, hejuru bifiteho akantu k'ubururu, hari ameza, hari n'intebe. Hari icyuma gicometse kuri purizi, ku ruhande hari akabati, hari n'akadubo k'umuhondo.

Ni kwa muganga hari umuganga wegereye ibyuma byifashishwa bitanga ibizamini by'ibipimo bafasha abarwayi, afite utubogisi mu ntoki bisa naho harimo ibipimo yafashe abarwayi agiye gushyiramo kugira ngo amenye indwara barwaye.

Birasa nkaho ari ku kigo cy'amashuri, hari ubusitani bwiza burebure, hepfo hari inyubako igeretse, hari abantu, abanyeshuri bahagaze, hari n'igiti kihagaze kirekire, ruguru hari inyubako iri mu ibara ry'umweru.

Inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru, hanze hari shitingi baparikamo imodoka, hari imodoka y'umukara iparitse, hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo rya MTN, hari idarapo, hari ururabo ruri mu ibara ry'icyatsi, hari umukindo, hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru ifite amabati y'ubururu, hejuru handitseho ngo inzu y'ababyeyi materinite, birasa naho ari ku kigo nderabuzima. Hari umurasire uri hagati mu mbuga, ku ruhande hari ibiti birebire binini, hari n'ubusitani.

Mu cyumba harimo uburiri bw'abana, agatebe, akabati babikamo imyenda, ibishushanyo ku gikuta, hari ibirahuri by'umweru, harimo amarido y'umweru, hari n'aho bakarabira mu maso babyutse.

Biragaragara ko ari kwa muganga, hari ibyuma bifashisha bapima umurwayi, hari intebe, hari akabati, hari ibishushanyo bishushanyije ku gikuta, hari n'igitanda baryamishaho abarwayi, hari n'umunzani upima ibiro.

Hari inyubako nyinshi, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari igiti kirekire, hari jaride, hari n'indabo, biragaragara ko ari kwa muganga, buri muntu asa n'aho ategereje guhura n'umuganga.

Inyubako y'amatafari ahiye, hejuru yanditseho inzu y'ababyeyi, hari ubusitani, hari indabo z'umuhondo n'izindi zitandukanye muri ubwo busitani, inyuma hariyo igiti kirekire, hari n'izindi nyubako ku.

Hari inkingi zubakishije amatafari ahiye, hari icupa kirimo iba ry'umweru, cyandikishijeho amagambo y'ubururu, imbere hari jaride, hari igiti, harimo n'inyubako zifite amabati y'ubururu. Hanze hari urujya n'uruza rw'abantu.

Bisa nkaho ari umuganga wagiye mu giturage runaka gupima abaturage baho indwara zitandukanye, umuganga yambaye agapimo mu ijosi bapimako umutima uri kugenda neza n'umuvuduko w'amaraso, ku ruhande hateye indabo nziza z'umuhondo, hari n'urutoki.

Ni kwa muganga hari ibitanda by'abarwayi byinshi biryamyeho n'abarwayi, hari abantu babiri barimo barasukura mu bitaro, uyu murwayi aho aryamye hakingirijweho n'irido, hari n'indobo ihateretse.

Ni kwa muganga hari abantu babiri bambaye amataburiya y'abaganga, hari n'abandi bambaye imyenda y'abaforomo, hari umuntu wambaye imyenda y'umukara ku ruhande, hari igitanda cy'abarwayi, hari n'imashini zipimishwa abarwayi bareba indwara mu mubiri.

Ikigo nderabuzima kirimo abarwayi benshi bicaye, bambaye agapfukamunwa, kugira ngo kabarinde kuba bakwanduzanya, harimo umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku yiteza agatambaro, hari n'umugabo umuhagaze imbere wambaye umupira w' umweru n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Inzu igeretse iri mu ibara ry'umuhondo, hanze haparitse imodoka zitandukanye, ebyiri z'umukara n'izindi enye z'umweru, hateye imikindo, hejuru kuri iyo nyubako hariho umunara, hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Ni kwa muganga hari umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi, hejuru ye hari ibyuma byifashisha kwa muganga, birasa naho bari kumusuzuma amaso, iruhande rwabo hari abandi baganga babiri bahahagaze.

Biragaragara ko ari kwa muganga hari icyapa kinini kiyobora abarwayi, hari amatara yo ku muhanda, hari ibiti birebire biri hepfo y'umuhanda, hari n'inyubako y'amatafari ahiye isize irangi ry'umweru.

Bisa n'aho ari kwa mugara, imbere hari ibyapa biyobora abantu kwa muganga. Hari igipangu kirimo ibara ry'ubururu, hari inzu igeretse mo hagati harimo n'akazu k'umusekeriti. Hateye n'igiti kinini ku ruhande.

Hari ibyuma bibiri byifashishwa bari gukora siporo, hari ibiribwa, amagi, ibishyimbo, inyama, imineke, inyeri, amashu, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, birasa naho aribyo umuntu agomba gufata amaze gukora siporo.

Umusore bisa nk'aho afite ikibazo cy'amaguru, ku ruhande hari umuganga urimo uramufasha kugendera mu twuma two kwa muganga kugira ngo abashe kugenda neza, ku ruhande rwabo hari akabati hari na vandarateri.

Bisa naho ari umurwayi wavunitse cyangwa se wagize ikindi kibazo cy'amaguru, ari kwa muganga, ku ruhande rwe hari umuganga, ari kumugendesha mu twuma dufasha amagufa ye kongera gukomera neza. Ku ruhande hari ikimashini kinini.

Biragaragara ko ari kwa muganga, hari umuganga uhagaze ku ruhande, hari umurwayi bisa naho yavunitse akaguru, bagategesheje ibindi byuma byo kwa muganga, imbere yabo hari abagabo batatu bahagaze, birasa naho baje kureba uko umurwayi ameze.

Ni kwa muganga hari umuganga afite akuma mu ntoki arimo arapima ku mutwe w'umwana, ku meza hari ibyuma byifashishwa kwa muganga bicometseho itsinga zitandukanye, ku ruhande hari akabati.

Birasa n'aho ari ku kigo cy'amashuri ahakinirwa volle, hari abana bambaye amajezi bari mu kibuga, bisa n'aho barimo barakina basket, iruhande rwabo hari abandi barimo barabafana bafite n'icyapa cy'umweru.

Hari icyuma bifashisha barimo barakora siporo, hari amacupa abiri y'amazi, hari metero yifashishwa mu badozi n'abubatsi, hari ironji riciyemo kabiri, hari n'itunda riciyemo kabiri. Ku ruhande, hari akandi k'umutuku.

Biragaragara ko ari umuganga, ari kwambara agapfukamunwa, mu ijosi yambaye igipimo bapimisha umutima ko uri kugenda neza, ku meza hateretse mashini, hariho ikayi n'ikaramu n'igitabo, hari n’ivaze irimo ururabo ku ruhande.

Birasa nk'aho ari umwana waje kwisuzumisha amenyo kwa muganga, hari umuganga ufite agapimo bapimisha amenyo arimo aramupima, ku ruhande rw'uwo muganga hari n'ibindi bikoresho bifashisha kwa muganga.

Aho bacururiza imiti ya gakondo n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari umugabo wambaye ishati ya karokaro, bisa n'aho aje guhaha iyo miti. Imbere harimo umugore uteze igitambaro cy'umweru, yambaye baji bisa nk'aho ariwe ubucuruzi. Hirya ku gikuta hari icyapa kinini cy'umweru.

Ahacururizwa imiti gakondo n'ibindi bigiye bitandukanye bya Kinyarwanda, imiti ivura igifu, amara, ama infection, umutwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Aha ni ubusitani burimo ibiti byinshi bitandukanye, ibiti bifite amababi y'icyatsi, n'ibiti bifite amababi y'umweru, n'ibiti bifite amababi asa nkaho yumye.